Imbwa ifite amabara atandukanye umukara n'umweru. Iri kwiruka ku gikinisho gifite ibara ry'umutuku, aho ibikinisho nk'ibi ngibi bishobora kwifashishwa mu kwigisha abana kugira ngo babashe gukura neza mu mitekerereze.

Ibyumba bitandukanye by'ishuri bigaragara ko bifite ibikuta byiza bishushanyijeho ibikoresho byinshi byifashishwa mu kwigisha abana kugira ngo bige ibintu babihuza n'ubuzima busanzwe bityo bibafashe kumva amasomo biga buri munsi.

Ahantu heza cyane hari ibikinisho cyangwa se iminyenga abanyeshuri baza kuriraho mu gihe bari mu gihe cy'akaruhuko cyane cyane nk'abiga mu mashuri y'inshuke bakaza kuharuhukira bakanezerwa.

Umubyeyi uri kwereka umwana we ibihingwa bigiye bitandukanye harimo inanasi, ibishyimbo, avoka, imineke ndetse n'inyanya bifasha umuhinzi kubona umusaruro utubutse ukabona amafaranga.

Icyumba k'ishuri gifite igikuta kiza gisize irangi ry'umuhondo, gishushanyijeho ibishushanyo bitandukanye harimo inyamaswa nk'injangwe n'umuntu, bifasha abanyeshuri kwiga bakunguka ubumenyi butandukanye.

Ahantu hagenewe kubera imikino ishobora guhuza abantu bakuru ndetse n'abana, bikabafasha kungurana ibitekerezo ndetse no kwisanzuranaho ndetse bikabarinda kwitekerezaho mu buryo butandukanye bishobora kubaviramo izindi ngaruka mbi.

Udukoresho tugiye dutandukanye twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke aho tuba turi mu mabara agiye atandukanye, abanyeshuri rero bakagenda batwigiraho biga kubara ndetse biga no kumenya amabara menshi agiye atandukanye ari ho mu buryo bwo kujijuka.

Igice cyihariye cyagenewe imikino y'abana, aho abana bajya, bakisanzura, bakishima, bikabafasha gutekereza neza, mu buzima bwabo ndetse bakagira imikurere myiza, bitewe n'uko nta bibazo byinshi baba bahuye nabyo.

Agakapu keza gakozwe mu ishusho y'igipupe gafite amabara y'umuhondo n'umutuku, gashobora gutuma umwana mutoya akishimira bityo bigatuma ajya ku ishuri neza, ntakibazo akiga neza agatsinda akagira amanota meza.

Ingorofani ni kimwe mu bikoresho byifashishwa mu buhinzi, abantu benshi baragikunda kubera ko gitwara umusaruro mu gihe gitoya kikawugeza aho umuntu ashaka kuwushyira ndetse kikaba gitwara n'ifumbire.

lbikinisho by'ubwoko butandukanye, biri mu bikoresho bishobora kwifashishwa mu kugira ngo umwana ashobore gukura neza afite ubuzima buzira umuze, haba mu mitekerereze ye ndetse no mu mibanire n'abandi, bigatuma azashobora kwiga neza amasomo ye.

Umwana muto wo mu mashuri y'inshuke wigishwa kwandika inyuguti ku kibaho, bimufasha kuzimenya neza akaba yashobora kuziyandikira mu ikayi ye kuko uko azandika kenshi bimufasha kuzimenya cyane.

Ibikinisho by'abana biri mu bwoko bw'ibipupe, bifasha abana kwishima, bakagira ibitekerezo byiza, kubera ko baba bashoboye gukina nabyo kugira ngo bagire ubuzima bwiza, bashobore gukura mu mutwe nta kibazo na kimwe bagize.

Ibikoresho binyuranye birimo ibikinisho byifashishwa mu kwigisha abana, bikaba bikozwe mu mabara atandukanye atuma abana barushaho kubikunda kugira ngo bamenye kubitandukanya mu buzima busanzwe, bizabafashe gukomeza amasomo yabo ari imbere.

Igikuta cy'ishuri gisize irangi r'muhondo, gishushanyijeho ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwigisha abana kugirango bamenye ibyo bikoresho, harimo umwiko, ingorofani, abanyeshuri batandukanye bahagaze mu muryango.

Isazi ishushanyije mu ibara ry'umukara munsi y'idirishya ku gikuta cy'umuhondo. Aho ifasha abanyeshuri kwiga ibice bige bitandukanye byayo bikabafasha no kumenya uko ibayeho.

Ibishushanyo by'ubwoko butandukanye bigaragaza ubwoko bw'amafunguro turya harimo imyumbati, inkoko, ibishyimbo, inyama bishushanyije ku gikuta gifite ibara ry'umuhondo bishobora kwifashishwa mu kwigisha abana ndetse no gutanga uburezi bufite ireme muri rusange.

lbishushanyo byinshi cyane bigiye bitandukanye, byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, bari kwiga amasomo agiye atandukanye kugira ngo bagire ubumenyi buhambaye ku bijyanye n'amasomo biga ndetse n'amabara atandukanye.

Udushushanyo tw'amatungo n'inyamaswa zigiye zitandukanye abarimu bifashisha bari kwigisha abanyeshuri kugira ngo abanyeshuri bagire ubumenyi buhambaye maze bajye babasha gukura mu buryo bwose bufatika nko mu mitekerereze n'ibindi.

Bimwe mu bikinisho by'abana bo mu mashuri y'inshuke ,biba bikozwe n'amabara atandukanye, kugira ngo barusheho kubikunda bakunde amasomo ,bitewe n'uko babona amabara atandukanye, bikabafasha kwiga neza bakumva ibyo bigishwa.

Igikuta gishushanyijeho ibishushanyo bitandukanye, bigaragaza ibyo kurya turya, harimo ibishyimbo, bishobora kongera indyo yuzuye ku muryango, bigatuma umuryango ushobora kwiteza imbere, ugateza n'igihugu imbere muri rusange.

lbikinisho by'ubwoko butandukanye, bikozwe n'amabara menshi ni bimwe mu bifasha abana bo mu mashuri y'inshuke, kumva neza amasomo bigishwa kuko binabakundisha bimwe muri ibyo ngibyo, bigatuma bashobora gukura neza mu mutwe no mu bitekerezo.

Inyamaswa iri mu bwoko bw'ibinyamabere ikaba ifite ibara ry'umweru, izwi ku izina ry'imbwa ifasha cyane cyane mu gucunga umutekano w'urugo abarutuye bakabaho batuje nta kibazo bafite amahoro.

Icyigishirizwamo abanyeshuri bakiri bato mu mashuri y'incuke cyangwa abanza, gishushanyijeho ibishushanyo bitandukanye kugira ngo bibakundishe ishuri ryabo, bajye biga neza kubera ko haba hariho ibintu bitandukanye bibafasha kwiga.

Ahantu heza hatunganyijwe kugira ngo hajye habera imikino y'abana, bibafasha mu kwiga neza ndetse no kuruhuka mu mutwe kugira ngo bashobore gukurikira neza amasomo yabo, bazabashe kwiteza imbere ndetse bateze imbere n'Igihugu muri rusange.

Igikuta cy'icyumba cy'ishuri, gisizeho irangi ry'umuhondo, kikaba gishushanyijeho ibishushanyo bitandukanye by'amasaha kugira ngo bifashe abana bo mu mashuri abanza nay'inshuke, kumenya kubara isaha, bagendeye ku bishushanyo, babona ku mashuri yabo.

Udushushanyo tugiye dutandukanye twifashishwa n'abarimu bigisha mu mashuri y'inshuke aho baba bari kwigisha abanyeshuri ibintu bigiye bitandukanye ndetse bakifashisha n'amabara agiye atandukanye kugira ngo abana bajijuke.

Inyubako nziza cyane y'amashuri aho hashushanyijeho igiti gifite amababi menshi agiye atandukanye, aho iki giti ari ingirakamaro ku buryo umuntu wese wagihinze kibasha kumuteza imbere.

Ishuri ryiza cyane rifite imiryango myiza, imbere hari ubusitani bwiza cyane. Aho ubwo busitani burimo amoko agiye atandukanye y'ibyatsi ariko bikiri bito cyane ku buryo umuntu atabasha kuba yakwicaramo. Byahita bimwanduza kuko bitari byagera igihe cyo kwicarwaho.

Inyubako nziza cyane y'amashuri aho muri iyo nyubako hari akayira kaba kari kunyuramo abanyamaguru bakagenda bakanyuramo bitonze kugira ngo bataza kwangiza ubusitani burimo.

Ibikoresho byinshi binyuranye byifashishwa mu burezi bw'abana, biba bigizwe n'amabara atandukanye; nk'umutuku, ubururu, icyatsi, umweru kugira ngo abana bashobozwe gutandukanya amabara atandukanye.

Ibyumba by'amashuri byubatse neza bifite ibara ry'umweru, ni bimwe mu bishobora gufasha abana kwiga neza bakagira uburezi bufite ireme, bakagira icyo bigezaho kubera ubumenyi baba bakuye muri ayo mashuri.

Ibikoresho byinshi bitandukanye birimo inyuguti, n'ibishushanyo bishobora kwifashishwa mu gutanga uburezi mu mashuri abanza kugira ngo umwana ashobore kwigishwa ndetse afate ubumenyi bufite ireme akiri muto.

Igikapu kiza, gifite ibara ry'ubururu ndetse rivanzemo n'umweru, gikoze ku buryo abana bato bagikunda bigatuma iyo agifite bimushoboza kujya ku ishuri, akagenda yishimye, agakurikira amasomo ndetse agashobora no gutsinda.

Ahantu heza hatunganyijwe hakaba hubatse inzu mu bwoko bw'ibiti itunganyijwe neza kugira ngo ikorerwemo uburezi bushobora gufasha abana bakiri bato hakabera n'imikino itandukanye ituma abana bakunda amasomo.

Amashusho y'abana benshi bagiye batandukanye aho abo bana bari kugenda bakora ibikorwa bigiye bitandukanye byiza cyane kandi by'ingirakamaro, bakaba ari abahungu ndetse n'abakobwa bari kuvura amatungo.

Ibikoresho byinshi bitandukanye bishobora kwifashishwa mu burezi, hagamijwe kwigisha umwana uburyo yakwihangira imirimo binyuze mu bugeni, harimo kuboha imyambaro itandukanye, imipira yo kwambara ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Amarati ni bimwe mu bikoresho byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza by'umwihariko nk'igihe baba bari kwiga isomo ryabo ry'imibare bakabikurikirana neza kugira ngo babitsinde bifashishije ibi bikoresho byabo by'amarati.

Inyubako nziza cyane y'amashuri, aho imbere hateraniye abana benshi cyane bakoze uruziga. Bakaba bari mu gikorwa cyo gukina imikino itandukanye. Aho bagiye bazengurutse, bishimye kandi banezerewe kubera icyo gikorwa barimo cyo gukina uwo mukino mwiza cyane kandi ushimishije.

Mu cyumba cy'ishuri harimo abanyeshuri batandukanye aho bicajwe neza kugira ngo babashe gukora ibizamini, umuyobozi uri imbere yabo ari kubafasha kugira ngo babashe gutsinda hatazagira ugira ikibazo na kimwe.

Ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu kwigisha abana, biba bisize amabara menshi kugira ngo abana bagenda babifata babikunda, bitewe n'uko umwana ashobora gukunda ibara ritandukanye n'iry'undi, bityo rero bibafasha kwiga neza.

lbyumba by'ishuri byubatse ku buryo bugezweho, aho ibyumba bitandukanye byinshi byubakwa ahantu hamwe, bigatuma bigabanya umwanya bishobora gufata ndetse mu kigo cy'ishuri hakaba hari ibyumba bihagije, abana bashobora kwigiramo nta kibazo.

Icyumba cyiza cyisanzuye cyateguriwe gutanga amasomo ku bana bo mu mashuri y'incuke, harimo amabara atandukanye umuhondo, umutuku, ubururu, na byo byifashishwa n'ubundi mu kongera uburezi ku bana bakiri bato.

Ibikoresho bitandukanye biteguwe neza byanditseho imibare, bikaba byanditse mu mabara atandukanye, byifashishwa mu kwigisha abana bo mu mashuri abanza nay'inshuke kugira ngo bamenye kubara bizabafashe mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ibitabo by'ubwoko bwinshi bitandukanye byifashishwa mu gutanga uburezi bufite ireme aho abanyeshuri bashobora kubyigiramo bakagira ubumenyi butandukanye bakabasha no kubonamo imyitozo ibafasha kumva neza amasomo yabo.

Amashusho ari mu mabara atandukanye y'icyatsi n'ubururu bigaragaza imibare, bishobora kwifashishwa mu kwereka abana uburyo bwo kubara kugira ngo bashobore kubifata mu mutwe bagendeye no ku mabara babonye bityo bigatuma uburezi bukomeza kugira ireme.

inyubako zubatse ku buryo bugezweho zisize amarangi ashimisha abana bo mu mashuri abanza, ni bimwe mu bikorware remezo bishobora kwifashishwa mu guteza imbere uburezi kugira ngo abana bashobore kwiga ndetse banafate ibyo biga neza.

Ibikoresho byinshi bitandukanye birimo amarate, incaruziga byifashishwa mu kwiga imibare igihe cy'isomo ry'ibinyampande kugira ngo umunyeshuri ashobore gushushanya neza ndetse abyige abyumva.

Ibikoresho byinshi by'ubugeni bikoreshwa mu gutaka inyubako zitandukanye, bigatuma hasa neza uhageze akahishimira ndetse na we akaba yabikoresha iwe. Uwabikoze rero bimufasha gutera imbere binyuze mu bakiriya abona batandukanye.

Icyumba mmberabyombi giteguwe neza ku buryo kiri kuberamo ibikorwa byo gufasha abana b'abanyeshuri batishoboye, ababyeyi bari kubaha ibikoresho bitandukanye bishobora kubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi ndetse no mu masomo yabo ya buri munsi.

Ibikoresho bigiye bitandukanye by'imyambaro, aho harimo ipantaro, inkweto, ingofero, akajipo, ururabo, radiyo ndetse n'umuneke. Bikaba byifashishwa, bigisha abanyeshuri bo mu mashuri y'inshuke.

Amoko agiye atandukanye y'imboga, aho izi mboga ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese uziriye, zituma agira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Akamererwa neza. Hagiye hariho nimero kuri buri mboga.

Amashusho abiri agamije kugaragaza ibyerekezo, iya mbere igizwe n'abantu barimo abanyeshuri batatu bambaye impuzankano z'ubururu na kakiyi, iya kabiri igizwe n'ibikoresho bya kinyamwuga bigaragaza ibyerekezo.

Ibikoresho byinshi by'ubwoko butandukanye, byifashishwa mu gushushanya, harimo amakaramu y'ibiti, amarate, umukasi, wifashishwa mu gukata, byose bikaba byifashishwa mu gutanga uburezi bufite ireme kugira ngo umwana ashobore kwigishwa, gutandukanya amabara ndetse no gushushanya neza.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere. Zikaba ari inyubako z'amashuri aho imbere haba harimo intebe ndetse n'ameza abarimu n'abanyeshuri bifashisha bari kwiga kugira ngo babashe gutsinda neza amasomo yabo.

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri aho iteye amarangi atandukanye, ifite ibikuta byubakishije amatafari ahiye ndetse hakaba hari n'ubusitani bukiri butoya.

Ibishushanyo biri mu bwoko bw'uruziga birimo imibare yifashishwa mu kwigisha abana mu mashuri abanza n'ayisumbuye isomo ry'imibare kugira ngo bashobore kumenya uburyo bashobora gushyira ibintu mu matsinda agiye atandukanye.

Imbuga nini igaragara, ahantu hubatse inzu z'imbaho, hari ibikinisho by'abana bishobora kwifashishwa mu mikino y'abana kugira ngo umwana ashobore gukura neza afite imitekerereze myiza ndetse azi no kubana n'abandi.

Amashusho atandukanye yifashishwa mu kwigisha abana kugira ngo bamenye gushyira ikintu aho kigomba kujya bitewe n'uburyo iyo shusho ikoze, bifasha abana bo mu mashuri abanza kwiga neza bakamenya gutondeka ibintu mu buryo bwabyo.

Ibikoresho bitandukanye birimo amarate, incaruziga, ni bimwe mu byifashishwa mu kwiga imibare kugira ngo umwana yige neza amashusho cyangwa se ibinyamde bitandukanye, azi kubishushanya ndetse yabishushanyije neza.

Abanyeshuri benshi batandukanye, bicaye mu cyumba k'ishuri cyategu kugira ngo bakorerwe ibizamini, bambaye ibikoresho byinshi bitandukanye, bituma batareba ku ruhande bakarindwa gukopera, bakazatsinda neza ku giti cyabo.

Ahantu habugenewe hari ibikorwa bifasha mu mikino y'abana, bigatuma bashobora gukina bakisanzuranaho ndetse bagatekereza neza biborohereza kugira ubuzima bwiza ndetse bagakura mu mutwe no mu buzima busanzwe.

igishushanyo kigaragaza inyubako, imbere yayo hari inyamaswa yitwa impyisi, iyo nyamaswa rero ikaba ishobora gukoreshwa mu kwigisha abana ubaha urugero rw'inyamaswa ikaze igira amahane ndetse ishobora no kugira ingaruka mbi mu buzima bw'umuntu.

Ibikoresho bigiye bitandukanye by'ubwubatsi aho harimo inyundo, amaburo ndetse n'amapensi, inkero ndetse n'ibindi bikoreshwa mu kubaka inyubako zigiye zitandukanye bigafasha abubatsi kubona inyubako nziza.

Ububiko bwiza bugizwe n'utubati, bubitsemo ibitabo by'ubwoko bwinshi bitandukanye, byifashishwa mu kwigisha ndetse no gusoma kugira ngo abanyeshuri bunguke ubumenyi mu byo biga ndetse babonemo n'imyitozo myinshi ihagije.

Ishusho igaragaza ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu mikino y'abana harimo isaha, harimo inyuguti, harimo n'ibindi bishushanyo bitandukanye n'imibare ndetse n'utundi dukino tw'amabara, abana bashobora kwifashisha mu gihe bari kwiga.

Amarembo manini y'ikigo k'ishuri aho uwinjiye aba yizeye ko ashobora guhabwa uburezi bufite ireme ndetse akigirayo ubumenyi bwinshi buzamufasha mu buzima bwe bwa buri munsi bigatuma yiteza imbere.

Igikoresho cyifashishwa cyane cyane mu mibare mu byerekeranye no gushushanya ibinyampande, aho umunyeshuri iyo agikoresheje bimufasha kumva neza ibyo ari gukora bikamufasha gutsinda, akabasha kwiteza imbere bitewe n'ubumenyi yagize.

Ibyumba by'ishuri byinshi bitandukanye, byubatse mu buryo bugezweho, aho amashuri yubatse ageretse, byongera umubare w'ibyumba mu gace gatoya, bigatuma abanyeshuri bashobora kwiga badacucitse mu ishuri rimwe.

igikoresho cyifashishwa mu isomo ry'imibare igihe abanyeshuri bari kwiga gushushanya ibinyampande bityo bigatuma bashobora kwishushanya neza bakamenya impamvu yabyo kuko baba babyize bakoresheje ibikoresho byabugenewe.

Ibitabo by'ubwoko bwinshi butandukanye, byifashishwa mu kwigisha abanyeshuri kugira ngo babonemo inkuru zitandukanye, zibafasha kumva neza amasomo biga, bakabihuza n'ubuzima busanzwe kugira ngo birusheho kumvikana.

Ububiko bwiza burimo ibikoresho bigezweho, bigizwe n'amabara atandukanye byifashishwa mu kwigisha abana bakiri bato, kugira ngo bashobore gutandukanya amabara ndetse bakure bazi kuyatandukanya, bibafashe ndetse no mu myigire yabo ya buri munsi.

Inyubako nziza cyane z'amashuri abanza, aho zifite utuyira dushashemo amakaro. Hakaba hari mu busitani bwiza cyane, buteyemo umucaca ukiri mutoya, utari wakomera ku buryo umuntu yaba yawicaramo.

Inyubako nshyashya z'ibyumba by'amashuri zubakishije amatafari ahiye ndetse zikaba zisakaje amabati afite ibara ry'ubururu, aho azifashishwa mu guteza imbere uburezi bufite ireme kugira ngo abanyeshuri bajye bashobora kwiga neza.

Ubusitani burimo inzira nyabagendwa, inyurwamo n'abanyeshuri kugira binjire mu kigo cy'ishuri gifite inyubako nziza, harimo izikiri kubakwa bizabafasha guteza imbere uburezi bufite ireme bagahabwa n'ibindi binyuranye bizabafasha mu buzima bwabo.

Inyubako zigizwe n'ibyumba by'amashuri byinshi byubatswe ku buryo bugezweho bwa kijyambere, bituma abanyeshuri bashobora kwiga ari benshi ku kigo kimwe, bikagabanya ubucucike mu mashuri, bigatuma hatangwa uburezi bufite ireme.

Abantu benshi cyane biganjemo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bakaba bari hamwe bishimiye bari gukoma mu mashyi bigaragara ko banejejwe n'igikorwa barimo, hakaba harimo n'abandi bambaye utujire.

Abanyeshuri benshi batandukanye bambaye impuzankano zisa, bicariye mu buryo bwateguwe kugira ngo bakurikire imbwirwaruhame cyangwa se ibiganiro, bashobora guhabwa n'umuntu hagati mu kibuga imbere yabo.

Abanyeshuri benshi bambaye impuzankano zisa, imipira y'ubururu, amajipo n'amapantaro bya kaKi, inkweto z'umukara bari kumwe n'abayobozi babo, bahagaze imbere y'inyubako yifashishwa mu burezi bufite ireme.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, hakaba hari ubusitani bwiza cyane burimo amoko agiye atandukanye y'indabyo.

Abanyeshuri benshi batandukanye, bahurijwe ahantu hamwe, baturutse mu bigo bitandukanye kugira ngo bashobore gutaha iwabo n'ibikoresho byabo, abagaragara cyane bambaye impuzankano, hasi bambaye umutuku, hejuru bakaba bambaye amashati y'umweru.

Ikigo cy'amashuri, kiriho ibyumba byinshi byigirwamo, imbere yaho hari ubusitani bwateguwe neza, bigaragara ko ukigezemo wahanyura wishimye, mukanishimira ibikorwa bihakorerwa.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bakaba bari kugenda bafite icyapa mu ntoki, bakaba bari mu muhango wo kwibuka, aho bafite icyapa cyanditseho ngo kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na kabiri.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho, aho yubakishije amatafari ahiye ndetse n'amabati y'ubururu ihagazeho umugabo wambaye ijire y'icyatsi imbere yayo bigaragara ko agiye kwinjiramo akabasha kugira ibyo arebamo bigiye bitandukanye.

Abanyeshuri benshi batandukanye bambaye impuzankano nziza, bahagaze inyuma y'umwe mu barezi babo uri kubafasha mu kubayobora mu gikorwa cyo kuririmba kugira ngo bibafashe mu myigire yabo ya buri munsi.

Abanyeshuri benshi bari ahantu hamwe, bambaye impuzankano zisa bigaragara ko bari mu gikorwa kimwe cyo kuririmba kugira ngo babashe gukora gahunda zabo za buri munsi, zibafasha mu masomo agiye atandukanye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ikaba ari inyubako y'ishuri, aho higiramo abanyeshuri bagiye batandukanye bari gukurikirana amasomo yabo kugira ngo babashe kwiga kandi batsinde.

Abanyeshuri bahagaze ahantu hamwe bambaye impuzankano zisa; ishati, ijipo ndetse n'inkweto z'umukara, inyuma yabo hari inyubako z'amashuri zishobora gukoreshwa mu kwigisha ndetse no gutanga uburezi.

Abanyeshuri benshi, bicaye mu buryo bwateguwe, bambaye impuzankano zitandukanye, harimo abambaye umweru hejuruka, abandi bakaba bambaye umuhondo, bicaye neza kugira ngo bakurikire ibiganiro bahabwa, bizabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abanyeshuri benshi bahagaze begeranye, bambaye impuzankano zitandukanye, ku ruhande rw'iburyo bambaye amapantaro ya kaki, ibumoso bambaye amapantaro y'umukara, icyo bahuriyeho bose bambaye amashati y'umweru.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi, bakaba bambaye impuzankano z'ishuri, bahagaze bari kwifotoza, bigaragara ko ari abakobwa beza cyane, bambaye impuzu, mpuzankano z'ishuri ku buryo bafite akanyamuneza bose ku maso.

Abanyeshuri benshi batandukanye bahagaze ahantu hamwe, bari kureba mugenzi wabo uteruye ibase irimo ibyo kunywa, bakaba bagiye gufata amafunguro kugira ngo bakomeze imirimo yabo ya buri munsi, harimo amasomo ndetse n'ibindi bitandukanye.

Abanyeshuri benshi batandukanye, bagizwe n'abahungu n'abakobwa, baherekejwe n'abarezi babo, bari mu muhanda ukikijwe n'ibimera, imbere yabo hari imodoka, ishobora kubafasha mu kwiga ndetse no kuruhuka mu mutwe buri munsi.

Ahantu hateguwe hari abantu benshi batandukanye ,kugira ngo hakazwe ingamba z'ubwirinzi ku ndwara zitandukanye ,aho umugabo uhagaze ari gupima umunyeshuri umuriro, akoresheje icyuma cyabugenewe.

Icyumba cy'ishuri kirimo abana batandukanye bafite ibikoresho nka mudasobwa, ziteretse ku meza imbere yabo ndetse hakaba hari n'umurezi hagati yabo, uri kubigisha kugira ngo bagire ubumenyi bafata mu byo bize.

Umuntu w'umwarimu uri mu ishuri hamwe n'abanyeshuri akaba ari kubakosora aho bari gukorera mu matsinda, abereka ibyiza byo gukorera mu matsinda ko iyo bakoreye mu matsinda babasha gusobanukirwa neza kurusha uko umuntu umwe yabikora ku giti cye.

Abana benshi banyuranye bambaye impuzankano z'icyatsi abandi bakaba bambaye impuzankano z'ubururu bazamuye ibiganza mu gikorwa bahuriyeho bigamije guteza imbere uburezi bwabo.

Abanyeshuri benshi batandukanye bahurijwe ahantu hamwe, bambaye impuzankano zisa. Hejuru bambaye amashati y'umweru, amajipo bambaye ubururu, bambaye inkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru.

Icyumba cy'ishuri kirimo abanyeshuri benshi batandukanye b'ibitsina byombi. Hakaba harimo umwarimu uhagaze, inyuma hari ikibaho cy'umukara n'igikuta cy'umuhondo ndetse akaba ari gukurikirana imigendekere y'amasomo.

Inyubako y'ishuri yubatse ku buryo bugezweho aho yubatse mu buryo bugeretse byongera umubare w'ibyumba by'amashuri bishobora kubakwa ahantu hamwe bigatuma umubare w'abanyeshuri ikigo cyakira wiyongera ndetse hakaba hariho n'inzira yorohereza abafite ubumuga.

Abanyeshuri benshi batandukanye, bicaye mu busitani, hagati yabo hahagazemo umurezi wabo, imbere hari ibiti byinshi bitandukanye ndetse hakaba hari n'inyubako y'amashuri, igaragara ko ikorerwamo uburezi.

Urubyiruko rwinshi rwahurijwe hamwe kugira ngo ruhabwe ibiganiro bitandukanye byabafasha mu kwiteza imbere kugira ngo bazagire ubuzima bwiza binyuze mu mahugurwa cyangwa se inama bagirwa n'ababakuriye.

Abanyeshuri benshi batandukanye bari mu cyumba cyabugenewe gikorerwamo ubudozi, aho bari kwiga kugira na bo bazabashe kwiteza imbere, bashobore kwihangira imirimo irimo kudoda ndetse bateze imbere imiryango yabo.

Ubusitani buteguye neza ku buryo hicayemo abantu bari gukurikira ibiganiro biri gutangwa n'umuyobozi uri hagati yabo, abarimo barimo urubyiruko n'abakuze bashobora kugirwa inama bakagira icyo bageraho mu buryo butandukanye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi bateraniye hamwe, imbere yabo hakaba hari umwarimu ufite ijambo ari kuribagezaho nubwo we atari kugaragara neza ngo tube twamubona mu bandi.

Inyubako nziza cyane yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, aho bambaye utujire tugiye dutandukanye. Bakaba bari muri icyo cyumba, bigaragara ko biga ibijyanye n'imyuga ndetse n'ubumenyigiro, akaba ari abahanga.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi bakaba bicaye hamwe mu ishuri bari gukurikirana amasomo yabo, biragaragara ko bishimye kandi banezerewe kubera ko mwarimu wabo ari kubitaho akabigisha ibintu bifite umumaro bizahagirira ejo hazaza heza.

Abantu benshi batandukanye bateraniye hamwe, bishimira kuba barangije amasomo yabo ya kaminuza bityo bikazabafasha gukoresha ubumenyi bavanye mu masomo bize kugira ngo biteze imbere, bateze imbere n'Igihugu, n'imiryango yabo muri rusange.

lgishushanyo cyiza cy'ubuhanga bigaragara ko gikozwe mu buryo bw'ubugeni, aho umuntu ushobora gushushanya gutya aba ashobora kwinjiza amafaranga, binyuze muri ibi bikorwa bye akiteza imbere ndetse agateza imbere n'umuryango we.

Icyumba cy'ishuri kirimo abanyeshuri batandukanye aho bigaragara ko bari guhuriza hamwe ibitekerezo kugira ngo bungurane ubumenyi buzabafasha mu masomo yabo biteze imbere ndetse bateze imbere imiryango yabo n'igihugu gitera imbere.

Ikibumbano kiri mu ishusho y'igicuma, giteretse hasi, iruhande rwacyo, hari ikindi kibumbano na cyo gikozwe muri ubwo buryo, ibi rero uwabikoze bimufasha kwiteza imbere n'umuryango we ugatera imbere binyuze mu bikorwa bye.

Icyumba cy'ishuri kinini kirimo abanyeshuri bitabiriye amasomo kugira ngo bagire ubumenyi bagira buzabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, harimo kwiteza imbere, kumenya inshingano zabo ndetse no kugira uruhare mu iterambere.

Indobo iteretse ku gatebe kaba kari muri kaminuza, kari mu mabara y'ubururu, aho kano gatebe ari keza cyane, ku buryo umunyeshuri wese ukigiyeho, abasha kubona aho atereka mudasobwa ye maze akaba yakurikira mwarimu.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho mo imbere hateraniyemo abantu benshi cyane bari mu nama, bakaba biganjemo abazungu ndetse n'abirabura, abagore ndetse n'abagabo, bakaba bari kungurana ibitekerezo.

Ibibumbano bitandukanye bikoze ishusho y'imbata, bishobora kwifashishwa mu kongerera ubumenyi umwana bwo kwihangira imirimo ndetse n'ubugeni butandukanye kugira ngo azashobore kubikora mu buzima bwe buri imbere ashobore kwiteza imbere, ateze imbere n'Igihugu.

Umugore w'umuganga uri kureba mu cyuma kizwi nka mikorosikopi akaba ari kugenda akifashisha kugira ngo asuzume indwara runaka ziba zitari kugaragara neza ku buryo umuntu yahita azimenya, akaba akifashisha rero kugira ngo bimworohere kuba yazitahura nk'uburyo bw'ikoranabuhanga.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bugezweho, ishobora gukoreshwa mu bikorwa binyuranye, byaba ibihuriza abantu benshi hamwe cyangwa iby'abantu ku giti cyabo. Ifite ibikuta byiza bisize amarangi y'umuhondo, ikaba ifite amadirishya na yo akozwe mu buryo bugezweho.

Ibikoresho binyuranye bishobora kwifashishwa mu kwigisha abana kwihangira imirimo bityo bakazashobora kugira icyo bikorera kugira ngo bunguke inyungu mu buzima bwabo bwa buri munsi bityo bagashobora kwiteza imbere.

Abanyeshuri benshi batandukanye bagizwe n'abagabo n'abagore, bambaye amakanzu y'ubururu, bamanitse ingofero hejuru bishimira ko barangije icyiciro cya kaminuza, bungutse ubumenyi buzabafasha mubuzima bwabo bwa buri munsi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iteye amarangi y'umweru ifite ubusitani imbere yayo bwiza cyane aho ubu busitani buteyemo amoko agiye atandukanye y'indabyo kandi meza cyane.

Inyubako nziza cyane yutswe mu buryo bugezweho, aho iyo nyubako yagirwamo n'abanyeshuri, biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza. Hakaba harimo abanyeshuri bicaye ndetse na mwarimu wabo.

Umuryango w'icyumba cy'ishuri, cyubatse ku buryo bugezweho, umuryango ufite nimero zeru, inyuguti ya R, zeru, gatandatu, kifashishwa mu gutanga uburezi bufite ireme, mo imbere harimo abantu ariko harimo umwijima.

Ubusitani bwiza bugizwe n'indabo n'ibiti bigiye bitandukanye bishobora gutuma ahantu hagaragara neza hakaba habera ibikorwa bigiye bitandukanye, bikanatuma abahasura bahishimira kugira ngo bazahashimire n'abandi.

Umwari cyangwa se umutegarugori wicaye akaba yambaye agapfukamunwa, imbere ye hari ameza ateretseho mudasobwa ashobora kwifashisha mu gukora imirimo ye ya buri munsi ndetse akayikora neza, bikaba binasukuye.

Ibitaka byo mu bwoko bw'ibumba, bishobora kwifashishwa mu gukora ibihangano bitandukanye by'ubugeni, byakongera iterambere ry'uwabikoze ndetse bikongera n'iterambere ry'igihugu, bikanakurura ba mukerarugendo mu gihugu.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bahuriye hamwe, aho bari kumwe na mwarimu wabo. Akaba ari kugenda abigisha ibintu bigiye bitandukanye kugira ngo babashe kujijuka maze bazatsinde ikizami.

Igikuta kiza gisize irangi ry'icyatsi, cyometseho ibishushanyo bitandukanye, bigaragaza amabara atandukanye, ku buryo byafasha abanyeshuri kwiga, bitewe n'ibishushanyijeho.

Ibikoresho byinshi bitandukanye by'ubugeni, bikozwe mu buryo bw'ibumba, bituma uwabikoze ashobora kwiteza imbere, akagira ubukungu iwe mu rugo ndetse n'igihugu kigatera imbere, bitewe n'uko uwabikoze nawe yateye imbere.

Umuryango wo kwinjiriramo ufite ibara ry'umukara ufashe ku bikuta bifite amaba y'ubururu ukaba ufite nimero: zeru, inyuguti ya R, zeru, rimwe, bishobora kwifashishwa mu kwinjira ahantu hakorerwa ibikorwa bishobora kuba uburezi cyangwa se ibindi binyuranye.

Igikoresho cyiza gifite ibara ry'umuhondo cyifashishwa mu burezi, kikaba gishushanyijeho ibishushanyo bitandukanye ndetse cyanditseho n'amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi, byose bikaba byifashishwa mu gutanga uburezi bufite ireme.

Igikuta cyiza cyubatse ku buryo bugezweho, aho gifitemo amabara atandukanye, harimo umutuku n'umuhondo bityo bikaba bishobora gufasha mu kugaragara neza kw'ahantu, abahageze bakahishimira.

Icyumba cy'ishuri cyubatse neza mu buryo bugezweho kugira ngo cyifashishwe mu gutanga uburezi bufite ireme, abanyeshuri bazahiga bazabe bafite ubumenyi buhagije mu buryo bwo kwiteza imbere kugira ngo bagire icyo bikorera na bo.

Igishushanyo kiza cyakozwe mu buryo bwa gihanga, kigaragaza amapine menshi hamwe n'imodoka, aho umuntu uzi gukora ibi ngibi, aba ashobora kwiteza imbere binyuze mu bikorwa bye.

Igishushanyo cy'ikirangantego gikozwe n'igisiga, cyometse ku rugi, rufite ibara ry'icyatsi, igikuta gikoze neza mu buryo bwa kijyambere, bishobora gutuma umuntu amenya aho agiye kwinjira kubera icyo kirangantego.

Ibikoresho bitandukanye bikozwe mu ibumba, mu byiciro by'ubugeni, bishobora gufasha uwariwe wese wabikoze cyangwa ubikoresha kugira ibyo atunganya iyo bisaba kubisekura, ibi rero uwabikoze nawe bimuteza imbere bikamwinjiriza amafaranga.

Inyubako nziza cyane yubatse mu buryo bugezweho, ibikuta byayo bikaba bisize amarangi y'umweru, ikaba yubatse ku buryo bworohereza abashaka kugera mu gice cyayo cyo hejuru kuko ifiteho ingazi mu gice k'imbere, iyi rero ikaba ishobora gukoreshwa mu bikorwa binyuranye birimo n'uburezi.

Ibikoresho biri mu bwoko bw'intebe byicaweho n'abantu bifite ibara ry'ubururu, bishobora kwifashishwa mu bikorwa bitandukanye, aho abantu bashobora kwicara bari kuganirizwa cyangwa se bari mu biganiro bitandukanye kugira ngo bagire icyo biga babikuye mu matsinda.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere ikaba ari inyubako ya kaminuza, isakaje amabati meza cyane asa ubutuku ndetse ika ba ifite n'ibikuta bisa umweru hari ubusitani bwiza cyane n'akayira gashashemo amapave.

Inzu mberabyombi yagenewe gutangirwamo amasomo, ifite ibikuta bifite ibara ry'umuhondo yiciwemo n'abantu benshi batandukanye bakurikiye amasomo ari gutangwa n'abantu bicaye imbere yabo.

Udukoresho tugiye dutandukanye dukozwe mu mbaho, aho tuba twarakozwe n'abanyeshuri biga muri kaminuza ndetse n'abize mu mashuri yisumbuye ibijyanye n'imyuga ndetse n'ubumenyingiro.

Umuhanda utunganyijwe neza, ufite ibyerekezo bitandukanye, wifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu kugira ngo byoroshye urujya n'uruza rw'abantu batandukanye ndetse n'ibicuruzwa bibashe kugera aho bigera nta kibazo.

Abanyeshuri batandukanye bahagaze begeranye bambaye amakanzu y'umukara ndetse n'ingofero z'umukara bigaragaza ko basoje icyiciro cyabo cya kaminuza bungutse ubumenyi buzabafasha mu kwiteza imbere mu buzima bwabo buri imbere.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu burezi harimo insakazamashusho imanitse hejuru mu gisenge k'inyubako yigishirizwamo, bikaba bifasha mu gutanga uburezi bufite ireme aho n'abari kure bashobora kureba ibiri kwigishwa bidasabye ko babyegera cyane.

Ibibumbano by'ubwoko bwinshi butandukanye, ni bimwe mu bikoresho bishobora gukorwa binyuze mu bugeni, aho uwabikoze ashobora kwiteza imbere, agateza imbere umuryango we kubera ubumenyi aba afite buhagije, akabona amafaranga yifashisha.

Igikuta gifite ibara ry'umuhondo gifatanye n'imbuga itunganyije neza, hafi mu mbuga hakaba hateretse igikoresho kifashishwa mu gufata imyanda igiye itandukanye gifite ibara ry'icyatsi kugira ngo hagabanwe umwanda mu kigo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho ari inyubako ya kaminuza, ikaba irimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye abanyeshuri bifashisha bari kwiga ndetse n'ibiba bikoranywe ubugeni byarakozwe n'abanyeshuri.